Abapolisi bari kwiga bicaye, babiri barahagaze hariho isafuriya, hariho n'ishyiga rya kizungu n'ameza, hariho n'imashini ishinzwe kuzimya ibyahuye n'impanuka.

Abantu bari kugenda mu muhanda bari kumwe n'abapolisi babiri . Muri bano bandi harimo umukobwa wambaye ijipo y'ubururu n'inkweto za kamambiri. Harimo n'umusore wambaye inkweto za bodaboda z'umweru, zirimo akabara k'ubururu.

Umuyobozi w'umutekano, ayoboye ibinyabiziga, ntawagenda nabi kandi ari kubona umuyobozi w'umutekano, bisaba kubahiriza amabwiriza yo mu muhanda, kugira ngo umutekano ugende neza umutekano w'abantu n'ibintu.

Abamotari baparitse mu kibuga bari kumwe n'abapolisi. Hariho n'imodoka y'umweru ya tagisi. Abapolisi baragenzura amategeko ko ari kubabahirizwa neza.

Umupolisi ayoboye inama, iyi nama ni inama irimo abayobozi batandukanye iyobowe n'umuyobozi w'umutekano bateze amatwi bose. Kera bayoboranaga igitugu ariko ubu baratuyobora muri demokarasi ,abantu bose bakisanzura bagatanga ibitekerezo byabo.

Abayobozi b'umutekano bayobora neza ni ngombwa ko babona ibikoresho byo gukoresha kugira ngo umutekano waba ugende neza kandi kazi kabo kagende neza. Ni byiza cyane rwose kuko bibarinda ibyondo, bibarinda ubunyereri. Ni byiza kugira babibone kugira umutekano wabo ukorwe neza kandi bawukorere ku gihe bawukore n'ahantu hatekanye.

Abantu bari mu nama baricaye umuyobozi wabo ari kubaremesha inama, bicaye hasi mu byatsi nta kibazo bateze amatwi ubayoboye, kandi na we abayoboye neza ku meza hari igitambaro cy' umweru.

Ifoto irimo abantu bacuramye. Aba bantu bacuramye kubera uwabafotoye. N'ibiti biracuramye, n'amazu aracuramye, asakaje amabati y'ubururu.

Abantu bari gukora isuku mu muhanda, bambaye amajire asa n'umuhondo, bambaye n'amabote. Aba bantu bashinzwe gukora isuku yo mu muhanda.

Abantu bari mu nama bicaye ku ntebe z'imituku, imbere yaho hari igishushanyo kiriho ibendera ry'igihugu, bose bateze amatwi ubayoboye kuko aricyo cyabazinduye.

Abayobozi bari mu nama bicaye bari kumwe n'umuyobozi w'umutekano. Bafite amacupa arimo amazi imbere ya babiri. Bafiteho mikorofone bariho baravugiramo. Bicaye ku ntebe nziza ziriho n'ama...

Abaturage bari mu nama bameze neza, bateze amatwi umuntu ubayoboye, kujya mu nama ni ubwisanzure buri wese agatanga igitekerezo cye. Kera bayoboranaga igitugu bakayoboresha itegeko, ariko ubu ngubu umuturage ari muri demokarasi, ni ukuvuga ibye yisanzuye kandi afite umutekano.

Abantu bicaye bari mu nama bambaye amarinete ab'imbere, undi yambaye ikanzu y'ubururu, undi mudamu yambaye agakanzu k'umukara karimo utubara tw'umweru, bafite n'amatelefoni mu ntoki.

Abantu bari mu nama bambaye amakoti y'umukara, ameza hariho igitambaro cy'umweru cy'icyatsi hejuru, bafite amazi yo kunywa.

Abanyeshuri bari kubyina bambaye impuzu, uduhura bambaye inkweto z'umukara n' amasogisi y'umweru, barishimye baranezerewe bigaragara ko bishimye cyane rwose ni byiza cyane biranejeje ntawutabyishimira.

Ibikoresho bya gakondo, harimo ingabo, imbehe, inkongoro, icyibo, ingongoro bayinyweramo amata, ingabo bayikoresha bari kwivuga, imbehe bayiriraho ibiryo, cyangwa se inyama, cyangwa se isosi, isupu.

Uyu ni umuduri bawukoresha bari gucuranga indirimbo za Kinyarwanda abantu bakishima, kera barabikoreshaga cyane ariko ubu biri gucika kugira ngo ubona ahantu bari gukoresha umuduri biragoye ariko dufite umucuranzi wacu Gisupusupu uwukoresha. Birashimishije cyane kuko nawe iyo ari gususurutsa igitaramo ubona bimeze neza.

Ababyinnyi bari kubyina bari kubyina neza, baraseka ,bambaye imikenyero ,gukenyera ni byiza cyane birashimishije. Nange umwana wange nzamutoza kubyina, kuko kubyina ni byiza ,bisusurutsa abantu bikanezereza igitaramo.

Ibicuma bibiri birambitse ku kirago birimo imiseke, babinywesha inzoga, bakabinywesha n'imisururu, bari mu bukwe cyangwa se umuntu yagusuye akuzaniye nk'akantu ko kunywa ukanywesha igicuma, ukanywesha n'umuseke, birimo imiseke ebyiri ariko banywesha umwe.

Amayogi bayakoresha bari kubyina bari guhamiriza, intore zikabyina zigashimisha abantu, ahantu ziri kubyinira hagasusuruka, amayogi aravuga, akavuga, bayakora mu byuma bakayacura, bagashyiramo utundi twuma mo imbere, kugira ngo abashe kuvuga asusurutse igitaramo.

Aka gakono kageretse ku kandi, bakita akamuga. Nta mufuniko gafite, twagatekagamo inyama, umushogoro, ibishyimbo. Ariko ndikubona karafashe umurayi nk'aho kadakora.

Imboga barya z'isogi, izi mboga ziraryoha bazirya mu turayi, bazirya zikaranze no mu mavuta. Izi mboga zifite uruyange rw'umweru ,uru ruyange ni rwo ruvamo umu....

Uburo ni igihingwa cyera bakundaga kugihinga kikanyobwa mu bikoma, ariko ubu ntago kubona ahantu bagihinze biragoye, ntago tikibiinga, ariko bigira umumaro mwinshi mu mubiri w'umuntu.

Igisabo ni cyiza cyera bagicundiragamo amata, inkongoro tukayinyweramo amata, tukayihera mo abana amata bakanywa bakanezerwa, bakicara bakishima, bakishimaba n'umubyeyi. Ni byiza cyane rwose ni ngombwa ko natwe twazajya tubikoresha tugashimisha abana bacu.

Umubyinnyi ari kubyina akinze amaboko, yambaye umukenyero n'amayugi, ni byiza ubundi umubyinnyi kugira ngo ashimishe abantu, agomba kubyina yishimye kandi ari kubasekera, igitaramo kugira ngo gishyuhe.

Intore ziri kubyina zambaye uduhura mu mutwe, zakenyeye impuzu, ziri kubyina zifite ingabo mu ntoki, zifite n'amacumu mu ntoki, izi ntore zirishimye kandi zishimisha n'abandi.

Umugore ari gucuruza imitako, ibyibo, bimeze neza ari gucuruzamo n'inkoni. Inkoni abasaza bakunda gukoresha bari mu bukwe, bakunda kuzigenderaho kuko umuntu iyo ashaje yicumba akabando.

Inkongoro kera twayinyweragamo amata, ubungubu amata kuyabona biragoye, abona bake kuko twese ntabwo tworoye inka, kuyabona birahenze n'uyafite ayakomeraho, kuko ntabwo twese tworoye inka zikamwa, kuko iterambere rya kera atariryo ry'ubungubu, n'abagome barateye kugira ngo ugire inka ikamwe nihirwe.

Iyi ntebe ni intebe ya kinyarwanda, bayikora mu giti cy'umuvumu bakayicaraho. Kera baravugaga ngo ababyeyi babyaye ngo bakunda kuyicaraho, kugira ngo ibafashe gukira neza. Ubu rero kuyibona biragoye kuko ntabwo ibiti bikuze bikiboneka.

Umuntu ufite urukiza, agiye kudaha inzoga mu kibindi, ikibindi gipfundikije ikoma, harimo umuseke. Ku ruhande hari akandi kabindi nako gapfundikiye. Hariho n'igicuma kirimo umuseke.

Inkongoro banyweramo amata, iteretse ku kantu, ipfundikije akantu kariho akaromba hejuru, kabirindutseho utuntu tw'uduhiriko. Inkongoro kuva kera ni yo banyweragamo amata.

Isekuro irimo umusekuzo, isekuro nshyashya, ifite akantu kameze nk'aka etaje hasi aho iteretse, tuyisekuriramo isombe, tukayisekuriramo ubugari, ndetse isekuro igira akamaro kanini.

Izi ni marakuja, bazitera mu giti, zikarandamo, zakwera bakazisarura, bakazigurisha, ubundi mu rundi rurimi rw'urunyeshyamba baravuga ngo ni amatunda.

Abantu bambaye udushumi, bambaye n'utugori mu ijosi, barikunywa bafite inkongoro mu ntoki, bogoshwe mu mutwe ibikinga. Kera abantu biyogosheshaga ibikinga, ariko ubu ntago bikibaho.

Ingoma iteretse ku gatebe. Iyi ngoma bayivuza bari kubyina, bakayivuza bari kuririmba, abantu bose bakoresheje ikirori bagomba kwifashisha ingoma, kugira ngo gishyuhe.

Abakobwa bari kubyina bikoreye utwibo bambaye udutako mu mutwe, bakenyeye utwenda dutanyaguritse tw'umutuku utwo ababyinnyi bakunda kwambara bakinze amaboko, bari kubyina kandi bishimye.

Ibikoresho bya gakondo harimo nyirabunyagu, ipiki, ishoka, ingabo, inyundo n'akahoro ko gukatisha ikawa, hariho inkoni ya kinyarwanda, hariho n'umuhoro wa kinyarwanda.

Isekururo tuyisekuriramo isombe, tukayisekuriramo ubugari ,tukayisekuriramo inzuzi , uyu musekuruzo udufasha kubitunganya neza . Igisero tukibikamo imyaka tukagihunikamo.

Ibirago by'abagore biboshywe mu bikangaga biboheshejwe imigozi y'ubudeyi. Kera twarabohaga ibirago cyane ariko ubu ngubu abantu basigaye baboha ni bo bakeya , kubera akamenyero gakeya no kutabyitaho.

umubyeyi ari gukama inka ye yicaye, yayishije amaguru kugirango itamutera ibibazo. Ari gukamira mu ndobo isa n'umweru yiteze agatambaro k'umukara.

Inzu isakaje ibyatsi, yubakishije ibiti, hasi iyi nzu irahomye ariko ntabwo imeze neza, impande y'aho hariho ibiti by'amapapayi ya kinyarwanda.

Umuntu uri kugendera ku bikondo bibiri by'ibiti. Yambaye ikoti, yambaye ipantaro yubururu, yambaye n'ingofero y'urugara imwe y'abasaza. Inyuma ye hariho utwatsi tumeze nka Kamiruni, kamiruni bagaburira inka.

Umuntu wambaye utuntu mu mutwe, harimo udupapuro, hakabamo n'akantu kameze nk'agati, yasokoje umusatsi we neza, yawubinditse inyuma, ni umugore kandi arishimye.

Iyi ni kompiyuta muri taburo yayo harimo imisozi bigaragara nk'aho ari ikirunga, ariko kuberako nta byanditseho ntabwo namenya ngo ni igiki ,ariko ndabona ari nk'ikirunga gitoya kitari ....

Imashini ifasha abantu bakora amatelefone n'amamashini, gusudira utuntu tumwe na tumwe tuba twangiritse mu matelefoni, ndetse no mu bindi bikoresho by'ikoranabuhanga bikoreshwa n'amashanyarazi.

Isaha y'urushinge, isaha igaragariza umuntu aho igihe kigeze akamenya n'ukuntu yayobora gahunda ze, kubera ko aba afite isaha ari kureberaho.

Abantu bafite ibikapu, abandi bafite udufuka, abandi bafite ipombo mu mugongo, bameze nk'abari kurema isoko, harimo abafite imitaka.

Amazu yubatse neza, afite amabati y'umutuku, imbere yayo hariho akarima k'igikoni kubatse neza hakoreshejwe imifuka, aka karima k'igikoni bisaba kugateramo imboga.

Inzu yubatse ari ibiro by'akagari, imbere hari idarapo ry' igihugu yubatse neza, ikoreweho isuku, ariko imbere yaho harunze ibibuye.

Bikiramariya nyina wa Jambo, ni we wabyaye Yezu abyara kuri Noheli, yamubyaye kuri makumyabiri n'eshanu z'ukwa cumi n'abiri. Buri mwaka twambaza Bikiramariya, kuko tuba twiteze ko kwibuka ivuka ry'umwami Yezu.

Ikiraro ni cyiza kimeze neza kukigendaho ni byiza kuberako nta muntu wagwamo, abanyeshuri bari kukigendaho bameze neza bishimye, kuberako nta bibazo cyatera uri kukigendaho.

Icyapa kitugaragariza aho tugeze kugira ngo tutayoba, kandi cyangwa se twubahirize amategeko y'umuhanda, kuko uramutse wishe amategeko ugasanga ukoresheje impanuka, imodoka irakugonze cyangwa se igare rirakugonze, ariko ugomba kumenya aho ugiye kandi ukagenda neza.

Iyi nzu yubatse nk'urusengero. Inyuma ifite amakositara y'umweru，impande yaho hariho ibiti bitandukanye， hariho n'agati kazamuye kameze nk'umunara，nta muryango uri kugaragara.

Ikirori kirashyushe igitaramo kimeze neza, abantu bari guserebura bamwe, bari gufotora abandi bifashe neza. Ni byiza cyane kuko ibi bintu birashimishije abantu bameze neza cyane.

Uru rusengero rwubatse, rufite umunara muremure, ruragaragara nk'urushaje, ni urwa kera. Ndabona rukwiriye kuvugururwa, bakarusiga uturangi, kugira ngo bagendane n'iterambere.

Mbega inzu nziza yubatse neza! Kera twubakishaga ibyondo, tugasakaza ibyatsi, tukubakisha ibiti gusa. Ariko turubakisha amakaro, tugasakaza amabati, tugakoresha amarangi, ariko ubu ngubu ni ho byiza kurusha kera kuko kera byabaga ari bibi.

Umukobwa bahetse ku igare, impande yaho hariho inzu iriho agasanduku batereramo umwanda. Iyi nzu iriho agashushanyo hejuru nubwo katagaragara.

Urusengero turusengeramo tukambaza Imana, tujyayo buri ku cyumweru tugiye gusenga Imana kugira ngo idufashe kudukiza ibyaha byacu.

Umukecuru wambaye agapfukamunwa yambaye inkweto za bunyogwe z'umuhondo, afashe agakoni mu ntoki n'agakapu, yiteze agatambaro karimo umutuku.

Iyi etaje ni nziza yubatse neza bya kijyambere. Ubundi twubakaga tukubakisha ibirere, tukubakisha ibyondo ariko ubu twubakisha amatafari ahiye n'ibirahuri tugasakaza amabati.

Ibi biro by'kagari byubatse neza， ariko amabati ya ho aragaragara nk'ashaje， abanyeshuri bari gucaho，baragenda bagiye ku ishuri，bari kwihuta.

Amazu ameze nk'uruganda. Impande yaho hari amatente hubatse harimo intebe z'umweru, hari n'imodoka enye ,ebyiri z'umukara n'izindi ebyiri z'imyeru. Impande y'amatente naho hari izindi ebyiri.

Inzu yubatse nk'Ibitaro bya Ruhengeri, ifite ikibuga kirimo umucaca, giteyeho n'indabo z'umweru zivanzemo umukara. Hariho agahanda kagiyeyo kubakishije ibisima bimeze nk'amapave.

Amapironi y'amashanyarazi anyuraho insinga zitwaye umuriro, ugiye mu rugomero kugira ngo abantu bacane, babone urumuri rubamurikira mu ngo zabo, ndetse agatanga n'urumuri ku mihanda no mu nsengengero.

Ano mashuri arashaje, afite ibibati bibi. Imbere yaho hariho ibibuye bishinyitse, hariho n'ikibuga kirimo umucaca.

Umuntu uri kuyobora inama afite mikoro, iyi nama yitabiriwe n'abagabo gusa, ari kubabwira ariko abateye umugongo

Abantu bari mu nama， bamwe baricaye abandi barahagaze, bamwe bicaye mu mucaca，abandi bicaye mu ntebe， hari abambaye imituku abandi bambaye imihondo n'imikara，hari n'uwambaye ingofero y'umweru.

Abantu bicaye, babiri bambaye amarinete, abandi babiri ntago bambaye amarinete, inyuma yaho bo hari insina imwe ifite igitoki, hari n'ikizu gishaje kitameze neza, n'imbere yabo hari ameza arambitseho telefone.

Umukecuru urikuza ikibazo mu nama, amanitse akaboko hejuru, ari kuvugira muri mikoro, kera ibi bya mikoro ntabwo byageraga kuri buri wese, ariko kubera iterambere ryaje n'uburyo umuntu, aba yisanzuye, arabaza kandi ijambo rye rikagera aho yifuza.

Iyi modoka ni nziza ,ni imodoka itwara abagenzi, igiye gutwara n'abanyeshuri ,gare yacu ya Musanze imeze neza, kandi irubatse kandi ifite umutekano. Kera twagendaga n'amaguru, ariko ubu uragenda mu modoka ukagera iyo ugiye amahoro, kandi ukagererayo ku gihe.

Iyi ndege iri mu kibuga ahabugenewe kugwa indege iraparitse ariko iparitseho n'imodoka imbere yayo. Indege ifite ibara ry'ubururu n'umweru yanditseho Rwanda eya.

Abashoferi batwaye moto mu muhanda, bagiye baringaniye ari batatu, nimba byemewe, ndabona ntamenya impamvu bari kugenda baringaniye mu muhanda, kandi bagomba kubahiriza amategeko y'umuhanda, ibi bintu barimo bakora, jye ndabona bidakwiriye.

Ibinyabiziga biragenda mu muhanda ndi kubona imodoka, nkabona moto. Kera twagendaga n'amaguru tukagenda bukatwiriraho, ukagenda ukananirwa ariko ubu kugira urugendo rworohe uratega imodoka, ugatega moto byaba ngombwa ugatega igare. Ndabona urujya n'uruza biri kugenda neza kuko bose bari kugenda bubahirije amategeko.

Imoto iparitse, impande hariho izindi moto, ifite ibara ry'umutuku, intebe ya shoferi irasa n'umukara. Impande ya moto hariho akantu kameze nk'akadomoro gafite ibara ry'umutuku n'umukara.

Umugore uri gusunika igare rihetse igitebo kinini ari kugenda ntaki kibazo afite. Twese tugomba kujya dukora umurimo nta murimo w'abagore cyangwa umurimo w'abagabo gusa.

Inzu bari kubaka bateze bakoresheje imbaho, imbere hateye indabo nziza harunze n'ibikoresho by'ubwubatsi, n'abakozi bari kugenda hariho n'abatwaye ibinyabiziga bahe.....

Imodoka ihagaze itegereje abagenzi, nta bantu barimo bakwiriye kugenda uretse shoferi wayo uyirimo, imodoka isa n'icyatsi n'ibirahuri byayo bisa n'umweru.

Abamotari batwaye abagenzi, impande yaho hariho modoka, icapa kirinda impande y'umuhanda kiriho umubare mirongo itandatu, impande y'umuhanda hateyeho ibiti irinda umuhanda.

Umuhanda urimo imodoka nyinshi. Harimo izigenda, harimo izigaruka, harimo abagenzi bagenda n'amaguru, harimo imoto ziri kugenda n'abagenzi, harimo n'umuzungu. Impande yaho hariho ibiti binini n'indabo.

Abamotari baraparitse baregeranye, bambaye bose amajire asa n'umutuku, abandi bambaye amakasike asa n'icyatsi, abandi bambaye amakasike asa n'umutuku. Bose bategereje abagenzi, kugira ngo babatware, babone amafaranga.

Indege iragenda mu kirere, igatwara abantu n'ibintu, igenda itari, igenda iri kuguruka n'amababa.

Abagenzi bari gutega imodoka. Ubundi twagendaga n'amaguru ingendo zikaba ndende, umuntu akagenda akarara nzira. Ariko ubu imodoka turagenda tugatega ibintu bikagenda ruzungu. Ingendo zikihuta kandi n'aho ugiye, ibyo ugiye gukora ukabikemura wihuse.

Umuntu uri kugendera ku kamoto gatwara imizigo bakunda kwita akarifani, kandi ni umukobwa . Nta muntu utakora umwuga w'ubushoferi, haba umuhungu cyangwa umukobwa twese twabikora.

Abagabo batwaye amagare, ariho ibicuba bitwara, batwaramo amata, undi mugabo utwaye igare ririho ibisheke, bisheke barabirya kandi, ibisheke by'umukara, barabikunda ngo bivura igifu.

Abagabo bari gutwara amagare， batwaye abadamu， kandi kera twagendaga n'ibirenge， mpaka tugeze iyo tugiye. Ariko ubu， dusigaye dutega amagare byaba ngombwa tukagenda na moto.

Imodoka itwara umucanga, igatwara amabuye, tukayifashisha mu kutugezaho ibicuruzwa, kera twaranguzaga amaguru n'umutwe, ariko ubu dusigaye dukoresha imodoka nini, kugira ngo ibikore, bitugereho neza.

Umuntu ufite ubumuga, kumutwara mu kagare ni ubufasha umuntu aba amuhaye, kubera ko aba adashoboye kwitwara, ngo yigenze agere aho akwiriye kujya, kugira ngo agere aho agiye, bisaba gukoresha imbaraga ahawe n'abandi, kuko we nta mbaraga aba afite.

Imodoka itatse amabara menshi, umutuku, umweru, ubururu, ndetse n'amapine yayo arasa umukara. Yanditseho ijambo ryitwa "Akagera". Irimo n'umushoferi uyitwaye.

Umukinnyi uri gukina umukino witwa tenisi, ari gukina yambaye inkweto z'ubururu, ikabutura y'ikarokaro, umupira ari gukinisha usa n'umuhondo.

Umukobwa uryamye yamanitse amaguru ku cyuma, yambaye ikariso gusa n'isengeri, yambaye n'inkweto, ntawamenya ikibazo afite cyamuteye kuryamo gutyo.

Ikibuga cy'umupira kidekoye amabara atandukanye, kidekoyemo ibara ry'icyatsi, umuhondo, umweru n'ubururu, ikibuga gifite ibara ry'icyatsi kandi kirakorutiriye ku ruhande.

Iyi baro, irasa n'umutuku udahiye cyane, intoki ziyifashe harimo iz'umuzungu, harimo n'intoki z'umukara, hariho n'agapaniye ko kutereramo ku ruhande.

Umuntu uri gukina umupira wa basiketi, bawukina bakoresheje akantu ko guterezamo hejuru muri paniye, yambaye umupira w'umukara n'amasogisi y'umweru.

Abakinnyi b'umupira w'intoki, bari gukina bishimye kandi bafite n'abari kubogeza, ndabona hariho n'abanyamakuru bari gufata amafoto, nibyiza cyane rwose bambaye umukara abandi bambaye icyatsi.

Ikibuga bakiniramo umupira w'intoki. Umupira w'intoki bakunze kwita voreboro. Voreboro ni umupira bakina baterera hejuru, bakubitisha intoki, ibipfunsi kugira ngo umupira urenge kano kantu. Iyo kaguyemo uba watsinzwe.

Umukinnyi w'umunyezamu ateze bare iri mu kirere, ashaka kuyifata n'ibiganza. Arishimye kandi ategereje gufata neza uyu mupira, kugira ngo utamucika.

Aba bakinnyi bambaye umutuku hejuru, hasi umukara. Bari gukina mu kibuga cya basiketi. Nta muntu utakina umupira kuko twese turanganya amahirwe.

Umukinnyi uri gukina umupira bita hendiboro. Uyu ni umukinnyi. Ni umukino w'abakobwa ndetse n'abahungu bawukina, ariko bagenda badunda baterera, bakadunda bagaterera. Kugira ngo batsinde igitego, baterera muri ka kandi bita agapaniye, ukaba utsinze igitego.

Uyu mupira w'ubururu n'umuhondo n'umweru, uri mu kibuga. Bawukina bari gukina umupira w'amaguru, kugira ngo bibashimishe umubiri, ndetse bifasha n'abantu kugorora ingingo.

Abakinnyi b'umupira w'intoki bari gukina ariko bari kurwana kandi gukina ntabwo bizamo kurwana, bakagombye gukina bitonze kugirango uratsinda n'uratsindwa bimenyekane kugwana ntabwo ariwo muti.

Umuntu uryamye mu mazi, akaboko kamwe kari hejuru, akandi kari mumazi, yaguyemo, afite ibintu by'ubururu ku kumutwe n'akandi kantu k'umuhondo.

Abakobwa barimo kwiruka, bari gukora siporo bambaye udukabutura dutoya, bambaye n'inkweto za siporo. Bose urabona bafite umurava wo kwirukanka, kugirango barebe uwaba uwa mbere.

Abakinnyi bari gukina umupira, umunyezamu yaryamye yambaye imipira imyenda isa n'umuhondo utukura, umupira wamucitse wagiye muri file, abakinnyi na bo bari guserebura.

Abakinnyi bari gukina umupira w'intoki. Bari gukina bambaye imyenda isa n'umukara, agapira n'agakabutura kariho imirongo yumweru. Umwe yambaye umweru.

Abakinnyi bari gukina umupira，bamwe buri umwe araryamye hasi， bambaye imyenda y'icyatsi， abandi bambaye ubururu n'umukara， abandi bari gufana bose bambaye imyeru hejuru.

Umukinnyi uri gukina umupira, yambaye umupira w'ubururu ikabutura y'umukara n'amasogisi y'umweru, iruhande rwe hari urupangu ruzitiye, inyuma hari abantu bambaye imituku.

Uyu mukobwa yambaye ikabutura y'umweru, yambaye agasengeri k'umukara, afite akantu bakoresha bari gukina basikete. yateye umupira , ariko ntawo turi kubona ku ruhande. Impande ye hari...

Uyu mukinnyi yambaye imyenda y'imyeru atwaye bare mu ntoki, agiye guterera muri ka kantu batereramo kugira ngo batsinde, dore arabitumbiriye kubera ko aribyo ashyizeho umutima.

Imodoka y'ubururu iriku kugenda, impande yaho hari urutoki, impande yaho hariho inzu yicayeho abantu, ariko yabateye umukungugu, umukungugu kandi ntabwo byemewe.

Abantu bicaye bambaye amakabutura y'umukara matoya, hari abambaye n'imipira y'ubururu, harimo umukobwa wambaye amarineti mu mutwe, abandi barasukishije, abandi bafite udusatsi dusanzwe.

Aba basore bari gukina bari gukina umupira, bambaye inkweto y'umweru, umupira uvanzemo umweru n'ubururu n'umutuku, imyenda ni ubururu n'umweru, amakabutura ni imikara, bambaye amasogisi y'ubururu, abandi ni imikara, barishimye, ni byiza cyane rwose. Nanjye umwana wanjye nzamutoza gukina umupira.

Umuntu uri kugenda impande yibiti hariho indabo nziza z'umuhondo, hari guhinguka inzu imwe ifite amabati umutuku, kuruhande hariho, akantu gasa n'ubururu.

Ifoto y'inzu bafotoye agahande kamwe, ifite amadirishya ane n'amakostara hejuru y'ayo madirishya, iri iruhande rw'umuhanda, ifite fondasiyo yubakishije amabuye y'umukara.